Abantu babiri umugabo wambaye umwenda wumukara n'ingofero nundi w'umugore iruhande rwe afite ibitabo n'impapuro, inyuma hari abantu babiri bicaye ku ntebe n'imodoka enye zisize ibara ry'umu rifite ibara ry'umuhondo n'umweru n'umutuku.

Inyubako y'inama irimo abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo bafite impapuro n'amakaramu barimo kwandika, amacupa y'amazi n'amaji y'inyange abateretse impande, imbere yabo hari za mudasobwa na mikoro, indangururamajwi n'ifoto ya nyakubahwa.

Umuntu uri mu muhanda utwaye igare, Imodoka iri mu muhanda ifite ibara ry'icyatsi n'umutuku n'umugore uri mu muhanda n'imodoka ya Toyotairi imbere ye arimo aramanuka n'ibyatsi biri kuruhande, iruhande y'umuhanda.